Bashinzwe gutanga amaraso mu Rwanda bari kumwe n'abaturage batandukanye, aho baje gutanga amaraso, kugira ajyanwe mu bitaro gufasha imbabare zifite ibibazo byo kubura amaraso.

Bamwe mu baganga bakomeye, bakorera mu bitaro bya kaminuza, bishimira intambwe ibi bitaro bimaze kugeraho, kuko ubu babasha kwakira abarwayi benshi, bafite n'ibibazo bitandukanye birimo n'ibyo mu mutwe, bakahava bakize, ndetse bagasubira mu kazi kabo ka buri munsi.

Abakozi b'ibitaro bya Kabgayi biganjemo abagabo n'abagore. Bari imbere y'imodoka igenewe gutwara abarwayi ibavana ku bitaro bimwe ibajyana ku bindi. Baganira ku buryo bwo gutanga ubuzima bwiza ku bahatuye bose.

Umwe mu bakecuru wivurije mu ivuriro rya gisirikare, arishimira ubuvuzi yahaherewe, agasaba ko n'igihe azongera kurwara ariho bazamuzana kuko bamwitayeho bikamunyura.

Umugabo urwaye imidido, yajyanwe kwa muganga, aho ari kwitabwaho n'abazungu, ndetse n'abaganga batandukanye bakaba baje kureba, uburyo uwo muzungu arimo aramwitaho.

Abanyeshuri biga ubuforomo mu makaminuza atandukanye, bishimiyera ikoranabuhanga ryajemo, ribafasha kumenya icyo umurwayi arwaye, nyuma yo kumupima hadashize umwanya munini, bikabasha gutuma bamwitaho ndetse agakira kare agataha.

Bamwe mu banyeshuri bari mu nyubako ikorerwamo ubushakashatsi, bambaye imyenda yagenewe akazi y'umweru ndetse bambaye n'udupfukamunwa, tubafasha kwirinda kuba bagerwaho n'ingaruka zitandukanye, harimo kwandura indwara zandurira mu buhumekero.

Ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zifata ubuzima bwo mu mutwe, hatanzwe impanuro zitandukanye ku banyeshuri batandukanye biga muri Kaminuza y'u Rwanda, bashishikarizwa kwita ku buzima bwabo kuko iyo ufite ubuzima bwiza ibintu byose biba bishoboka.

Imwe mu miti yiganjemo ifasha amatungo atandukanye kugira ubuzima bwiza harimo: inka, ingurube, inkoko, ihene, intama n'andi atandukanye yashyizwe ku isoko mu buryo bwo korohereza aborozi kuyibona ahabegereye.

Imwe mu ntebe ndende iteretse mu nyubako yagenewe kubikwamo imiti, imbere yayo hari ameza manini y'umweru ndetse n'akabati gateretsemo imiti y'ubwoko butandukanye.

Rimwe mu iduka rigurisha imiti y'ubwoko butandukanye, harimo ifasha kuvura mu muhogo, ivura umutwe, iri mu ibicupa igiye itandukanye, abaganga bavuga ko yose igirira akamaro abarwayi baje babagana.

Urubyiruko rwaturutse hirya no hino mu gihugu, rwitabiriye inama ishinzwe kuganira ku buzima bw'imyororokere, aho yari ifite insanganyamatsiko igira iti "twimakaze ibiganiro byigisha ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko no mu miryango."

Umwe mu bayobozi ba campani ikora ubuhinzi mu buryo bwa kinyamwuga ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye yabasabye gukunda umwuga w'ubuhinzi kuko igihugu cyacu ari ho cyubakiye iterambere ryacyo rirambye.

Ahari kubera inama mbwirwaruhame yateguwe n'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuzima yitabiriwe n'ingeri z'abantu batandukanye: abagore, abagabo, abana ndetse n'abasore n'inkumi, hari gutangirwa amahugurwa y'uburyo bamenya gukoresha agakingirizo, bikabafasha kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Mu birori byo kwizihiza isabukuru y'umubyeyi wabo, abana be bamuhaye impano zitandukanye zirimo: imyambaro, inkweto, bikaba byatanzwe n'umusore mukuru, imfura ye mu bana bose yabyaye.

Umugabo n'umugore bari mu nzu irimo umwijima bari gukoresha mudasobwa bafite amafaranga mu ntoki, igikombe kirimo amazi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Hamwe mu hacururizwa indabo, hari indabo zirimo amoko atandukanye harimo iz'umuhondo, iz'umukara, iz'icyatsi, iz'itukura, iz'iroza n'andi mabara atandukanye bituma abakiriya bayakunda cyane.

Ababyeyi bashishikarizwa gukangurira abana babo gukoresha ibikoresho nkoranabuhanga mu buryo bwiza, bubabyarira umusaruro atari uburyo bwo kubayobya aho bareba amashusho y'urukozasoni, n'ibindi bitemewe kandi bishobora kwangiza ubuzima bwabo bw'ahazaza.